Turi kumwe ni ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima bugoboka umunyamuryango wawe igihe yahuye n'impanuka, kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe urwego bitarenze iminsi itatu gusa turakwishyura. Radiant yacu hamagara ijana mirongo ine na rimwe zeru cyangwa se terefone itishyurwa ijana na mirongo inani na rimwe zeru.

Umugabo uhagaze imbere y'imodoka, yambaye ingofero y'iroza ndetse n'ishati y'iroza, iyi modoka isa nk'umukara, iruhande rwe hari inzu yubakishije ibyuma, akaboko ke yakarambitse ku kizuru cy'imodoka, akandi yakarambitse ku kirahure cy'iyi modoka.

Umuntu yicaye kuri moto ari mu muhanda ari kugenda, ni mu muhanda wa kaburimbo w'umukara, impande yaho hateye indabo, hano hirya hari inzu nini yubatse ku buryo bw'igihangari yubakishije amabati, hejuru yaho hari insinga z'amashanyarazi.

Ipoto itwara cyangwa se ikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi iri impande y'inzu. Iyi nzu imbere yayo harimo imodoka ziparitsemo, handitse ijambo yundayi, inyuma yaho hari inzu yubatse mu buryo bwa muviringo.

Umugore uri kubara amafaranga y'amanyarwanda, iruhande rwe hari imashini ikata amatike, imbere y'uyu mugore nanone hari igitabo cyandikwamo amafaranga yinjiye n'asohoka, iruhande rwe hari umuhungu wicaye udafite ikintu ari gukora.

Abasekirite ba ISCO bateruye isanduku irimo amafaranga, bagiye kuyinjiza mu modoka kugira ngo bayajyane, hano iyi modoka iparitse ni mu mujyi, hakurya yacu ni mu mujyi na none, aba bagabo bambaye impuzankano iranga abasekiriti ba ISCO, iyi modoka nayo iriho kamera yanditseho ijambo ISCO riranga iyi kampani.

Umuntu ufite capati zihiye. Impande ye hari inzu ndetse n'ameza maremare. Hakurya witegereje neza ubona amazu afite irange ry'umweru ku bikuta.

Amagi atatu arambitse mu gasarori, impande y'aya magi hari urusenda, aka gateretse kumeza y'umweru, aka gasorori kandi gafite ibara ry'umukara.

Umugore uhagaze mu iduka iruhande rwe hari ikigega kibikwamo amata, mu nguni y'ibumoso hariho ifirigo ibikwamo amata, impande ye na none hari ameza ateretseho intebe bariraho, amazi ari mu macupa ari mu kabati, hejuru yaho hari amandazi n'utubuni turi mu kabati.

Umusore wambaye isengeri uzaniye umubyeyi we igikombe cy'amata, umubyeyi aricaye, iruhande rwe hari umugabo urimo aramwitegereza ariko yubitse ingofero mu maso, aha bicaye ni muri kantine, ameza bicayeho ni manini, afunikishije igitambaro cy'amabara.

Uyu mudamu ari gukanda iburo kugira ngo itara ryake, hejuru ye ibumoso hari ijambo Airtel Money ikirangantego k'iyi kampanyi ya Airtel, hari ijambo ishyura umuriro ukoresheje Airtel Money, munsi y'aho gato hari amagambo yanditswe mu mibare, akanyeri ijana na mirongo inane na kabiri akanyenyeri kane, akanyenyeri urwego, ukaba wabikoresha ubu...

Umuhungu n'umukobwa bicaye mu biro. Iruhande rw'aba bantu hahagaze umugabo wambaye agakote n'ingofero y'umukara, umupira we wanditseho amagambo. Imbere y'aba bahungu n'abakobwa bari muri ofisi hari imashini imwe ndetse na sipiyu.

Aya ni amafaranga yo muri Tanzania ni magana atanu, ikirangantego cyayo ni banke ofu Tanzania, iki kirangantego cyubatse mu nzu y'ibyatsi, ariko ifite urubaraza rwiza cyane, ndetse impande yaho hari ikimenyetso cy'inzoka izirinze ku giti.

Amafaranga ateretse ku meza, aya mafaranga aragerekeranyije ku buryo byakugora kumenya umubare wayo, aho ateretse hari ibara ritagaragara neza riri mu gice cy'imbere.

Iyi ni imashini ibara mafaranga, ikoreshwa ibara amafaranga amanyarwanda n'amadorari, ni imashini ikozwe mu buryo butangaje, ikozwe n'ibyuma ndetse n'amaburo, iyi nayo ni imashini ikoreshwa uteranya, ugabanya amafaranga, iteretse ku meza afite irange rijya gusa nk'umweru.

Inzu ivunjishirizwamo amafaranga. Hejuru kuri iyi nzu handitse ijambo ry'icyongereza rivuze aho bavunjishiriza amafaranga y'abanyamahanga. Muri iyi nzu harimo amatara amurika ku buryo urimo abasha kubona icyo ashaka cyose. Iyi nzu yubatse neza kandi isize irange ry'umweru n'umutuku.

Aho bavunjishiriza amafaranga y'amanyamahanga. Iki cyumba cy'aho bavunjishiriza cyubakishijwe ibyuma, ndetse iruhande rwaho hari ibindi bicuruzwa.

Ameza yagenewe kuganirirwamo, intebe z'imifariso, impande yaho gato hari intebe z'umukara, muri iki cyumba izi ntebe zirimo gisigishije irangi ry'umweru.

Izi n'imbaho utu n'udutambaro bakoresha bahanagura ameza cyangwa se bahanagura ibyunzwe tumanitse kuri hangari aho bamanika imyenda, izi mbari nazo nizo bitama madiriye ziri mu kizu kinini bita hangari ariko gishaje.

Intebe n'ameza bya gisirimu. Icyumba kirimo urumuri ruhagije, gisize irange ry'umweru hasi gipavomeshejwe amakaro.

Dutatu tugiye tunyuranyuyemo, kamwe muri two ni umweru, utundi tubiri dusigaye ni ikijuju, dushushanyije impande mu ibara ry'umweru.

Icyumba cya hoteri kirimo ibirahure birimo amata. Impande yaho hari intebe zitondetse ku murongo. Iyi hoteri irimo amabara y'umweru n'umukara, utubati turimo ibinyobwa.

Amacupa arimo amazi y'inyange. Ji zipfunyitse mu dushashi ziri impande y'amacupa arimo amazi. Itara rimurika mu nzu igihe hariho umwijima. Iki cyumba kirimo umwijima, ku buryo utabasha kubona ibirimo.

Hoteli yubatse ku mazi, ubwogero buri impande ya hotei, ibiti by'imikindo bizana umwuka mwiza muri hoteli, hoteri igeretse inshuro enye, ifite ibirahure by'umukara bikinze mu madirishya.

Inzu yubatse neza ndetse mo imbere harimo amatara amurika ku buryo ubasha kuyibona, iruhande rwayo hari ibiti birebire biyikikije, isize irange ry'umweru ndetse n'ikijuju, isakaje amabati, ifite inkingi ziyikikije zituma ikomera, yubatse impande y'umuhanda.

Umujyi urimo inzu nini cyane z'amagorofa. Imbere y'izi nzu, hariho umuhanda wa kaburimbo uteganye n'undi ibumoso. Muri uyu muhanda, harimo moto itwawe n'umumotari uri kujya mu cyerekezo kijya mu Majyaruguru. Imbere y'iyi nzu y'igorofa haparitse imodoka bigaragara ko ari nshyashya.

Inzu ndende igeretse kabiri, icyapa cyanditseho ijambo ubwishingizi, munsi y'iki cyapa hariho umwajenti wa MTN, iruhande rwaho hari umuntu uhagaze mu muhanda nyabagendwa.

Itara riteretse ku meza ririkwaka ribonesha mu cyumba, urumuri ruri kunyura mu idirishya, rukanyura hanze, iki cyumba gisize irangi ry'umweru, amadirishya y'iyi nzu asize irangi ry'umukara, rivanzemo iry'ubururu.

Umusore wambaye umupira w'umweru, uyu musore afite umusatsi wa direde. Mu ntoki z'uyu musore arimo terefone ya ayifone, ahetse igikapu kandi yegamye ku gikuta.

Umudamu n'umugabo bahagaze baje gushaka serivise, umugabo uri kuba afite imashini, impapuro ndetse n'ikaramu yambaye n'ikarita y'akazi, haraguru yaho hari umugabo uhahagaze, icyumba barimo cyubakishije amakaro.

Abakobwa babiri n'abagabo babiri umugabo umwe yambaye itaburiyo y'abafundi afite na kasike n'inyundo, undi mukobwa afite ikayi ndetse yambaye neza, undi mugabo arishimye yambaye ishati y'umukara. umukobwa w'inyuma yambaye amaherena ku gutwi ndetse yambaye ishati y'umweru, iruhande rwabo handitse amagambo abiri BK cyangwa se Bank of Kigali.

Ububiko bw'imyenda ya caguwa, imyenda y'abagabo, iy'abagore, iy'abana ni iy'abadamu yose irahari, ububiko bwuzuyemo imyenda ipanze kuburyo utamenya ubwoko ubu nubu.

Abajenti babiri bari gusuhuzanya, umwana wumiwe arimo arabitegereza, ngo arebe ibyo barimo, imbere ye hari undi muhungu wifashe ku matama na we yamanjiriwe, haraguru hari umutaka wa MTN.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, n'agapira karimo amabara y'umweru n'umukara. Ahagaze mu kazu ka MTN, yashyizemo umutwe. Iruhande rw'aka kazu ka MTN hari ibyatsi ruguru yaho hari inzu.

Akazu ka MTN kageretse kabiri. Kanditseho amagambo agira ati,'' kanda kanyenyeri, ijana na mirongo inani nakabiri urwego''. Impande yaho hari icyapa ndetse n'ipoto.

Agasanduku karimo umukozi wa MTN, amadirishya yombi uko ari ane arakinguye, umukozi wa MTN yasohoye umutwe ari hanze, impande y'iyi nzu ikoreramo MTN hari igiti cya pinusi.

Abantu bahagaze impande yaho MTN ikorera, hirya yaho muri metero eshatu hariho ikirangantego Tekino, aya mahema ya MTN afite irange ry'umuhondo.

Moto enye ziri mu muhanda wa kaburimbo, buri moto ifite igisanduku inyuma kirimo ibicuruzwa. Buri mumotari yambaye kasike imurinda gukomereka. Iruhande rw'uyu muhanda hariho ibiti byinshi bitoshye kubera imvura yabiguyeho, uyu muhanda usa nk'umukara.

Ibikaziye birimo ibitoki bibisi, umudamu ufite telefone n'ikaramu uri gukora ibarura kuri buri gitoki, ni ibikaziye byinshi biterekeranyije byuzuyemo ibitoki bibisi.

Umumotari upakiye igisanduku gitwara imyanda, yambaye ikasike y'umukara ndetse ari mumuhanda rwagati aratwaye, iruhande rwe hateye ibiti bituma hari umwijima.

Ku gihumbi cyawe cy'amadolari watura mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Iyi nzu aha ni aho kwinjirira ,ifite igipangu ndetse nziza iri impande ya kaburimbo, ifite umuriro w'amashanyarazi hirya nkuko mubona hari ipoto ifite kandi urubaraza rwiza ndetse isakaje amabati meza cyane.

Inzu igurishwa miliyoni mironyo itatu n'eshanu. Iherereye mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda. Munsi y'iyi nzu hariho ubusitani n'akayira ushobora kunyuramo ugenda. Ni inzu igeretse rimwe. Isize irange ry'umweru, inzugi ni umukara n'amadirisha ni umukara.

Inzu yubatse ahantu heza cyane, hejuru y'iyi nzu hari amagambo avuga ngo iyi nzu igurishwa miliyoni ijana, iherereye i Kinyinya mu Birembo, ifite ibyumba bine na tuwarete eshatu, iyi nzu ifite urubaraza ndetse n'amatara abiri yo hanze, aba atanga urumuri nijoro.

Mituele de sante, akamenyetso ko guteranya gafashwe n'intoki ebyiri, umuntu wicaye ku gatebe, ikimenyetso k'ikinini kiri mu kaziga, umutima unyuzemo uturongo dushwaraguye, abantu babiri bahagaze, ikimenyetso cy'inkeri kiri ku kaziga, ikimenyetso cy'urushinge kiri ku kabaho.

Igihangari cyanditseho ijambo Ejo heza, impande y'iki gihangari hari inzu nini yubakishije amatafari isize irangi ry'ubururu, imbere y'iyi nzu kuri iki gihangari hariho umugabo numugore bari guseka.

Itaje ndende iri imbere yanjye ifite inyubako nyinshi, isize irangi ryikijuju ndetse n'ibirahure byijimye, impande yaho hari ikirangantego cyikigo cyigihugu gishinzwe kwita ku buzima n'ubwiteganyirize araesesibi hanze aho ibaraza riri hari ibendera ry'igihugu.

Isoko rya supamaketi ririmo ibicuruzwa n'ibiribwa. Harimo umugabo uri kugura ibicuruzwa, iri soko ryubatse mu buryo bw'utubati.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi, harimo inzira banyuramo hagati, harimo akabati barambikamo ibicuruzwa igihe urangije kubihitamo, imbere yaho gato, hari urutonde rw'ibicuruzwa byinshi bigiye bipanze mu tubati. Amatara hejuru muri iki cyumba nayo ari kwaka.

Isoko bahahiramo ibicuruzwa bitandukanye. Abaguzi b'abazungu barimo baragendagenda muri iri soko . Ibicuruzwa biratondetse ku buryo ibyo ushaka ugenda ubishakira mu cyiciro biherereyemo, kuri buri bicuruzwa hagiye hariho icyapa kibigaragaza.

Umukobwa wambaye inkweto z'umweru, ingofero mu mutwe, agakapu mu kwaha, ndetse afite igikapu kirimo indabo, ahagaze mu iduka ry'indabo ari gucagura izo agura, iduka ririmo indabo zitandukanye, uyu mukobwa yambaye agakabutura kamufunze, kamwegereye.

Umugabo uri mu isoko rya supa maketi, imbere ye afite agatete ari guhahiramo, iruhande rwe hari umugabo ufite kamera uri kumufotora, iri soko ryuzuyemo ibicuruzwa by'amoko yose wahitamo nturangize.